Icyapa kinini kiri ku muhanda cyamamaza, hariho ikiganza cy'umuntu ufite umutaka mu ntoki, umutaka uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'utudomo tw'umweru, handikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umukara ndetse hari n'ibiti birebire biteye kuri uwo muhanda.

Icyapa kinini cyo ku muhanda, hejuru gifiteho udutara, hariho ifoto y'umusaza n'umukecuru ndetse n'umwana, icyo cyapa cyandikishijweho amagambo y'umukara, ndetse n'icyatsi, kigaragaza ubwishingizi bugiye butandukanye bakoresha.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, hagiye hamanitse ibyapa imbere y'izo nyubako ndetse hari n'ibyapa biri ku muhanda, bifite amabara y'ubururu, biriho ibiranganigo bya Sanram ndetse n'amatara ku muhanda, hari n'ibinyabiziga bihagaze imbere y'iyo nyubako ndetse n'abantu bari kugenda batambuka.

Icyapa cyo ku muhanda kirekire kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, hariho ifoto y'umwana ufite inkoni mu ntoki ndetse hagaragaza yuko ari ubwishingizi bari kwamamaza, hariho na nimero ushobora guhamagararaho.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi bwa Radiyanti, handikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, handitseho amagambo atandukanye ndetse hariho n'igishushanyo cya telefone, kigaragaza imibare umuntu ashobora gukandaho, agerageza kuba yakwizigamira.

Icyapa cyamamaza sosiyete y'ubwishingizi bwa Radianti, hariho ifoto y'umugabo n'umugore, umugabo utereye umwana hejuru, ndetse hari agakinisho k'akagare batwaramo umwana, ndetse hari n'ubwishingizi bugaragara mu mabara y'umukara butandukanye ndetse n'imibare ushobora gukanda kugira ngo ubashe gukoresha iyo serivisi.

Imodoka yabugenewe y'amasiganwa iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ni imodokadoka igiye imanitseho ibyapa mu mabara atandukanye ndetse kuri uwo muhanda hariho icyapa cyanditseho Sanilamu ndetse hari ubusitani buhari hakurya hari abantu bahagaze bari kwitegereza iyo imodokadoka no hejuru hari abandi bahagaze.

Icyapa cyamamaza sosiyete y'ubwishingizi, cya Purayima Inshuwarensi hariho amafoto, ariho abagabo babiri bahagararanye, bari kureba muri telefone n'undi ufite ikayi mu ntoki, ku mpande n'impande hariho ibinyabiziga bihahagaze, ndetse hari n'uburyo ushobora kuba wakwifashisha uhamagara ukeneye ubwo bwishingizi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibitenge, hari ibitenge bigiye bimanitse hejuru mu moko atandukanye, ndetse hari n'ibindi bitenge bigiye bizingazinze bigiye bigerekeranyije mu mpande izo arizo zose, ndetse bigiye bigerekeranye mu buryo butandukanye.

Umusore n'inkumi bahagaze ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibyo kurya ndetse no kunywa, hari umuryango hamanitsemo ibirungo by'amoko atandukanye biri mu dushashi, bigiye bimanitsemo, mo imbere harimo amakarito arimo ibiribwa ndetse hagiye hamanitsemo n'ibindi bintu mu tubati.

Umugabo ufite imyenda mu ntoki, imyenda itandukanye ari kuvugana n'umugore wicaye ahantu bari mu nyubako ifite amabara y'umweru hari indi myenda igiye imanitse ndetse hari n'umugabo uri kugenda ureba ibicuruzwa by'imyenda biri muri iyo nyubako.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'abadamu, ifite amabara y'umweru, hejuru hari kwaka amatara, hari imyenda igiye imanitse mu tubati ndetse harimo n'amashakoshi ndetse hari n'indi myenda igiye imanitse ku bipupe biri imbere y'iryo duka.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda harimo imipira y'abantu bakuru iri mu mabara y'umweru ,orange, ndetse n'icyatsi hakaba hari n'indi myenda imanitsemo y'abana agapira n'ipantaro ndetse n'udupira dutoya tw'abana ndetse harimo n'amakabutura.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye yaba ibyo kurya, yaba ibikoresho bindi bisanzwe, hahagazemo abadamu babiri umwe uri kwandika mu gakayi ndetse n'undi umeze nk'uwaje guhaha uhagaze imbere ye, hari imifuka iri iruhande n'impande ndetse hari n'ahantu babikamo ibyo kunywa.

Imodoka ifite amabara y'umukara iri kwaka amatara y'umutuku, iparitse ahantu hari urukuta ruriho utwuyuma ku mpande ndetse hakurya hari n'indi nyubako ndende igeretse, ifite amabara y'umweru ndetse n'ibirahuri by'umukara.

Abagabo bagera muri babiri bafite urufunguzo rukozwe mu rupapuro mu ntoki ndetse undi afite agakapu gafite ibara ry'umutuku, bahagaze ahantu inyuma yabo hari imodoka ziparitse, munsi y'urukuta rw'amabuye ndetse no hasi hari utubuye dutoya.

Ikinyabiziga cy'imodoka kirimo amabara y'umukara kigurishwa ku mpande hari ibindi binyabiziga by'amabara y'umweru bihahagaze hari inyubako ndende ihari iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru ndetse hakikijwe n'ibiti bigiye biteye impande n'impande.

Imodoka zigera kuri ebyiri ziparitse ahantu hari utubuye, inyuma hari ihema ry'umweru ryanditseho a, ba, ga, ndetse hirya hari ibiti bihateye impande n'impande, hari n'uruzitiro ruhari rwubakishijwe amatafari ahiye ndetse ariho n'utwuma mo hagati.

Ibinyabiziga bigera muri bine bifite ibara ry'umweru biparitse mu nyubako na yo ifite amabara y'umweru ndetse hari akabati kariho agacupa k'amazi ibipapuro ndetse hari kugaragaraho n'ukuguru k'umuntu uhicaye.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ifunguye imiryango, ku mpande hahagaze abagabo bagera muri bane, bafite urufunguzo mu ntoki rukozwe mu gipapuro ndetse ku ruhande hari inyubako ndende ihari isize amarangi y'umweru ndetse ifite n'imiryango y'ivu..

Imodoka ifite ibara ry'umukara inyuma yanditseho viyayipi, ihagaze ahantu ku mpande hari ahantu hari utwuma dufite ibara ry'umweru ndetse hari n'ahantu hari ibyapa, hari ibiti bigiye biteye impande n'impande by'ubusitani ndetse hari n'indi nyubako ndende ihari imeze nkaho ituzuye neza.

Imodoka igurishwa iri mu mabara y'umukara iri kwaka amatara iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ku mpande hari ibiti bihateye ndetse hari n'ipoto y'amashanyarazi afite insinga zitandukanye hari n'urukuta rw'amatafari ahiye ruri kuri uwo muhanda.

Imodoka itwara abagenzi iri mu mabara y'umweru iparitse ahantu ndetse hari ibindi binyabiziga bijya biparitse impande n'impande hari n'ibiti birebire bigiye bikikije aho hantu haparitse izo modoka ndetse n'amapoto y'amashanyarazi ifite insinga.

Inyubako nini iri ku muhanda hariho ibyapa bigiye bimanitseho ndetse imbere yaho hari utwuma tugiye dukikije iyo nyubako, hari n'ubusitani buri ku muhanda, hari n'icyapa kiri ku muhanda cy'amabara y'ubururu n'umweru. Hari n'ikinyabiziga kiri kunyura mu muhanda.

Imodoka zitwara abagenzi zigera muri enye, zanditseho Volokano hahagaze imbere abagabo bagera muri babiri bambaye imipira y'ubururu bambaye, ndetse n'udupfukamunwa hirya hari inzu zigiye zihari zimanitseho ibyapa bitandukanye.

Imodoka nyinshi zifite ibara ry'umweru ziparitse ahantu hari umuhanda w'ibitaka hari abagabo babiri bahagaze ndetse hirya hari urukuta rurerure rufite inkingi z,amabara y'umweru hagati hagiye harimwo utwuma hari n,ibiti bihateye ku mpande ndetse n'inyubako zigera muri ebyiri ndende.

Abagabo bagera muri batatu bahagaze bafite urufunguzo rukozwe mu rupapuro mu ntoki ndetse n'udukapu turi mu mabara y'umutuku, bahagaze imbere y'ikinyabiziga kirekire gifite ibara ry'umweru inyuma gifite kontineri ndende, ku ruhande hariho n'indi nyubako imeze nkaho ikozwe mu mabati.

Imodoka nyinshi ziri mu mabara y'umweru ziparitse ahantu, aho hantu hirya hari inyubako ndende iri mu mabara y'umuhondo ndetse hari ibiti bigiye bikikije aho hantu ndetse n'urukuta rwubakishijwe amabuye ndetse rusize amarangi y'umweru hagiye hagati harimo utwuma.

Inoti ebyiri z'amafaranga ibihumbi bitanu by'amafaranga y'u Rwanda, inote ya mbere iriho ifoto y'umugore wikoreye ibintu ndetse hariho n'abandi bagore barimo barasarura, ndetse inoti ya kabiri ishushanyijeho urutoki ndetse n'ikiyaga cy'amazi menshi ndetse hagiye hariho n'udusozi duteyeho ibiti.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amabanke, hari ahantu habiri bakira amafaranga, ahambere harimo umugore uri gukorera kuri mudasobwa ndetse ahagaze n'umugabo ndetse n'ahandi naho harimo umugore ndetse n'umugabo uri kwaka ubufasha muri iyo banke.

Abagabo babiri bari kuganira, bari kuganirarira ahantu, inyuma hari icyapa gifite amabara y'umweru ndetse umugabo umwe, imbere ye hari mudasobwa ari gukoresha ndetse undi wicaye bari kuganira, yambaye ishati ifite amabara ya karokaro.

Inoti ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda igihumbi. Inoti ya mbere iriho umuntu uri kubyina, ndetse hariho n'inyubako zihari. Ndetse inoti ya kabiri iriho akanyamaswa k'inkende kari kugenda gaterera ahantu mu biti hari n'ibyatsi.

Ibiganza by'umuntu uri gutondeka amafaranga y'inoti afite mu biganza bye. Ndetse hari icyuma kibara amafaranga kiri iruhande rwe, hari n'utundi tuntu duteretsemo ibiceri byinshi bitandukanye, hari n'andi mafaranga ateretse ku meza.

Inoti zigera muri ebyiri z'amafaranga ijana y'u rwanda, inoti ya mbere iriho impala n'imparage, ziri kwirukanka n'indi ihagaze ndetse indi noti ya kabiri, iriho ifoto y'umubyeyi uhetse umwana mu mugongo, ufite n'agakoni mu ntoki.

Abagore babiri bari guhererekanya amafaranga anyuze munsi y'ikirahuri, imbere yaho ku meza hateretseho ibipapuro, amakaramu ndetse imbere y'iyo nzu harimo akuma kabara amafaranga ndetse hari n'utundi dukoresho hahagazemo umugore wambaye ikanzu y'igitenge.

Inoti y'igihumbi iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, ni inoti y'amafaranga y'u Rwanda, harimo ibishushanyo by'ahantu hari ishyamba ririmo ibiti byinshi ndetse n'ahantu hari imisozi igera muri ibiri.

Akabati gapanzemo imitobe y'amoko atandukanye, hari imitobe ya fanta iri mu mabara y'umuhondo, hari imitobe y'umuhondo ikozwe mu bimera ndetse by'amaronji, ndetse hari amacupa y'amazi maremare ndetse n'iyindi mitobe y'amabara atandukanye.

Akantu kameze nk'isahani kari mu ibara ry'umukara, gateretsemo amagi agera muri atatu ndetse harimo akandi gacupa gahagazemo ku ruhande hari agacupa karimo ikirungo karyamye ku meza, ayo meza afite ibara ry'umweru.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibyo kunywa, hari amarange y'ubururu, hari icyuma babikamo amata, ndetse hari akabati kagiye kamanutsemo imitobe iri mu makarito, ndetse n'amata ari mu makarito, ndetse n'amazi, ndetse hari n'akabati kariho indobo iriho amacapati ndetse n'amandazi.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, hagiye harimo ibiribwa bitandukanye amabisi, imitobe ndetse n'amata ari mu dukombe, hahagaze umuntu imbere ye hari akabati karimo amasambusa ndetse n'amandazi, hari n'undi muntu uri kumuhereza akajerekani gafite ibara ry'umweru.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, hasize amabara y'ubururu, ndetse hari akabati gasize ibara ry'ubururu, karimo imitobe ifunze mu dukarito ndetse n'amata afunze mu dukarito, n'uducupa tw'amazi. Ndetse hari n'akabati hejuru gateretseho indobo irimo amandazi, munsi yaho iriho ibirahuri byo kunyweramo ndetse n'amatasi yo kunyweramo.

Inzu isize amarangi y'ubururu harimo akabati gafite ibara ry'ubururu, karimo amata agiye atandukanye afunzwe mu dukarito ndetse n'imitobe y'amoko atandukanye, harimo amacupa y'amazi ndetse n'amakarito, hari n'ameza ariho indobo irimo amandazi ndetse na capati.

Ahantu bacururiza amata, hafite umuryango w'ibara ry'ubururu rishushanyijeho ifoto iriho umwana uriguseka ufite agakombe k'amata mu ntoki ndetse hejuru handitseho ibirangantego by'inyange ndetse hejuru naho hari icyapa kigaragaza yuko hacururizwa amata, n'imbere hagiye hateretsemo utubido tw'amata.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata hariho ibirangantego by'inyange biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hamanitseho icyapa gishushanyijeho ifoto y'umweru, hari icyuma gifite akarobine kivamo amata ndetse hari n'ijerekani hari n'intebe zigera muri ebyiri n'akameza bihari.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'amata, hari umugabo, urimo urafungura icyuma gisohokamo amata yateretseho hasi ijague iri kujyamo amata ndetse hari abandi bahagaze bategereje bameze nk'abari kugura, hari n'akabati gahari kamanitseho ibyapa byanditseho inyange hagiye harimo n'amakarito.

Akameza gafite ibara ry'umweru, kariho ifoto y'umwana w'umukobwa uri kunywa amata, handitseho amagambo ari mu mabara y'uburu ndetse n'icyatsi ndetse hari umuryango na wo ufite ibara ry'ubururu, hariho n'ibirangantego by'Inyange.

Isahani iriho irindazi ndetse n'agapapuro ko kuyifatisha iteretse ku meza atwikiriye igitambaro kirimo utuntu tw'umukara, hari n'akandi gapaniye kari mu ibara ry'iroza ndetse hari n'intebe iri mu mabara y'ubururu iteretse imbere y'ayo meza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyokunywa, harimo icyuma gikonjesha amata ndetse hari n'akabati karimo amata afunitse mu bikarito ndetse n'imitobe y'amoko atandukanye; yaba ari mu bikarito n'amacupa ndetse harimo n'amazi muri ako kabati hari n'intebe yo kwicararaho.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi ifite imiryango ibiri, aho hamwe bacuruza ibinyobwa bisanzwe, ndetse n'ahandi bacuruza ibinyobwa, harimo amata, hariho icyapa kigaragaza ko bacuruza amata y'inyange, hanze hari udutebe ndetse n'imitaka abantu bicaraho, hari n'ahantu bakarabira intoki.

Ibiganza by'umuntu ufite itasi irimo amata ndetse biteretse ku meza afite ibara ry'umweru, hari isahani iriho keke ndetse iriho ifoke, iriho irindandazi yariyeho ndetse n'ahandi hari ikiyiko, ndetse imbere ye hari umuntu uhahagaze wambaye ipantaro y'umuhondo irimo uturongo tw'umukara.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'amata ndetse n'ibindi binyobwa, hari umuntu uhahagaze ndetse hagiye hasize ibikuta by'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hari n'ahantu babika amata akonje hashushanyijeho igishushanyo cy'amata ari kwisuka mu kirahuri ndetse hari n'intebe zo kwicaraho.

Umukecuru wicaye, wambaye ibitenge ufite ishakoshi mu ntoki, iruhande rwe hari ameza ateretseho igikombe kirimo amata n'isahani iriho imyumbati ndetse hariho na terefone, hirya hari ahantu hakonjeshwa imitobe itandukanye hari mu mabara y'umutuku hashushanyijeho igishushanyo cya fanta ndetse n'indi ntebe y'uburu iri iruhande rwe.

Indobo zigera muri ebyiri zirimo ibyo kurya, ziteretse ahantu hari akabati ndetse ziteretse ahantu hari umuryango ufite ibara ry'ubururu, ufite ibishushanyo bigiye bimanitsemo hagati, hariho igishushanyo cy'inka ndetse hariho n'igishushanyo cy'amata afunitse mu dukombe, begeranye n'ahantu hari umuhanda wa kaburimbo, hakurya hari gucamo umuntu.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, hariho icyapa cyanditseho inyange ndetse biri mu mabara y'ubururu n'umweru, harimo akabati gatondetsemo imitobe ifunitse mu ducupa no mu dukarito, indobo irimo amandazi ndetse hari n'akabido gateretse ku meza karimo amata.

Umugore uri ahantu bacururiza amata, ari mu inzu isize amarangi y'icyatsi, harimo akabati karimo ibikombe bitandukanye, ndetse ari kugenda asuka amata mu bikombe bitandukanye, ndetse hari n'ijage na yo iteretsemo amata ndetse n'amasiniya ahari ateretseho ibyo bikombe.

Icyapa kimanitse hejuru ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'amata. Ni icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hagiye harimo ibicuruzwa bipfunyitse by'amata, bipfunyitse mu makarito, ndetse n'utujerekani ndetse no mu ducupa dutoya, hariho n'ifoto ishushanyijeho inka.

Umumama wicaye mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kunywa, hari icyuma cy'amata ya Mukamira, hari icyuma gikonjesha kirimo imitobe y'amoko atandukanye ndetse kuri ameza ahari hateretseho igikombe cy'amata, amandazi ari ku isahani ndetse n'imyumbati.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye ifite imiryango igera muri ibiri, umuryango umwe ufite ibara ry'umweru ndetse n'umuryango ufite ibara ry'umukara, ku muryango w'umweru hamanitseho ibyapa bigaragaza yuko bacuruza amata ndetse n'icyapa kinini kiri hejuru kiriho ibicuruzwa bitandukanye, yaba iby'amata ari mu bikarito ndetse no mu dukombe ndetse n'imitobe nayo iri mu ducupa.

Abagabo babiri bunamye, hari imeza ari imbere yaho ateretseho ibipapuro bigiye bitandukanye bari kurebaho. Hariho mudasobwa zigera muri ebyiri, hariho amatelefone, hariho agaseke. Ndetse hakurya hariho akabati, ndetse hariho n'imiryango abantu binjiriraho babasaka.

Inoti zigeze muri eshanu, zigiye zifite amabara atandukanye, hari inoti ifite ibara ry'ubururu n'umweru, inoti ya mirongo itanu, hari inoti ifite ibara ry'umweru na move, inoti y'ibihumbi bibiri, hakaba hari n'inoti iri mu ibara ry'umuhondo n'umweru ya magana abiri n'indi noti y'icumi.

Inoti z'amafaranga zigera muri ebyiri, ni inoti irimo igishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'ikibumbano, ni inoti y'ibihumbi icumi ndetse indi noti iri mu mabara y'umuhondo, harimo na ho inyamaswa ndetse n'ikibumbano, ni inoti ya makumyabiri.

Ibiganza by'umuntu ufite inoti nyinshi zigiye zitandukanye, harimo inoti ya magana atanu iri mu bara rya move, hakabamo inoti y'ijana iri mu mabara y'icyatsi, n'inoti ya mirongo itanu, n'inoti ya makumyabiri, n'inoti y'icumi ndetse ibindi biganza bifite amadolari mu ntoki.

Ibiganza bibiri by'abantu bari guhererekanya amafaranga mu ntoki, hari ufite inoti ebyiri, inoti ya mirongo itanu ndetse n'inoti y'ijana, ndetse hari n'undi ufite inoti y'amadorari ijana mu ntoki ari kuyihereza mugenzi we.

Inoti zitandukanye zigiye ziri mu mabara atandukanye, harimo inoti ya magana abiri, hakabamo inoti y'ijana, hakabamo inoti ya mirongo itanu, hakabamo inoti ya makumyabiri, inoti y'icumi ndetse n'inoti y'atanu.

Ibiganza by'umuntu bifite inoti nyinshi mu ntoki, ari kuzibara ni inoti ziri mu mabara y'umutuku, ni ininoti y'ibihumbi ijana ndetse hari n'izindi noti z'amadolari z'ibihumbi ijana zihari ku meza.

Ibiganza bibiri by'abantu bafite inoti zitandukanye, ikiganza cya mbere ni umuntu ufite inoti zigera muri esheshatu z'amadolari ijana ijana, ndetse ikindi kiganza n'icy'umuntu ufite amayero mirongo itanu arimo inoti nyinshi.

Inzu ifite imiryango isize irange ry'icyatsi hamanitsemo ibyapa byanditseho dahapushi biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, imbere hari umuntu uhahagaze ahantu bafatira amafaranga naho hasize amarange y'icyatsi, harimo n'ibyapa bitandukanye.

Intebe za kaki zirimo udusego dutatu ndetse n'ameza ateretse ho igitabo, hirya hari indi ntebe zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru zifite utumeza dufite amabara y'umukara ndetse n'umuhondo.

Inyubako ya hoteri iri mumabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, ifite imiryango n'ibirahure bifite amabara y'umukara, hari ubusitani bugiye buteye impande y'iyo nyubako bufite indabyo zitandukanye.

Ahantu ho kogera habugenewe, harimo udutebe tugiye turi impande n'impande dutwikirije imitaka abantu bicaramo ndetse n'inyubako zigiye ziri ku mpande hari n'ubusitani bw'indabo ndetse n'ibiti bigiye bihari.

Ahantu habugenewe ho kogera hicaye abana bagera kuri babiri ndetse hakikijwe n'inyubako imbere zigiye zifite ubusitani butandukanye, hari n'inyubako ndende igeretse ihari iruhande rw'aho hantu ho kogera.

Inyubako ifite ibara rya oranje igeretse rimwe ndetse hari n'indi nyubako imbere harimo intebe zikozwe mu mbaho, hari n'ubusitani buteye impande n'impande burimo indabyo z'amoko atandukanye ndetse harimo na pasiparume.

urubaraza ruteretseho udutebe tubiri n'akameza karimo ibyo kunywa biri mu birarahuri ndetse urwo rubarazarukikijwe n'ibyuma, hakurya hari inyubako zigiye zitandukanye ziri kwaka amatara ndetse hari n'ukwezi guhari.

Ahantu ho kogera ahabugenewe, ku ruhande hari ahantu hari umutaka ndetse n'agatebe, hirya naho hari inyubako ihari y'amabara y'umweru, munsi hagiye harimo imitaka n'udutebe abantu bicaraho, kuri iyo nyubako hagiye hariho utwuma turi ku mpande dutambitse.

Inyubako ndende zigera muri ebyiri, zigiye zaka amatara, hari iyaka amatara ari mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi ndetse hari n'indi ndende iri kwaka amatara y'umuhondo, ubururu n'icyatsi, igiye irimo utuntu tw'imitako turimo amabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ahantu abantu bogera hari udutebe ku mpande n'impande tuhateretse ndetse hejuru dutwikirije imitaka ndetse hari n'utundi dutebe abantu bicaraho bari kuganira; ku ruhande hari inyubako zifite ubusitani bugiye butandukanye, buteye hejuru buri mu mavazi.

Intebe ndetse n'akameza gatwikirije ibitambaro by'umutuku, biri ahantu ku rubaraza rukikijwe n'utwuma dutambitse n'utundi duhagaze, hirya hari ubusitani bw'ibiti ndetse n'indabyo, hari indi nyubako ndende ihari iri mu mabara ajya gusa move ndetse n'umweru.

Ubusitani bwiza burimo indabo ndetse n'imikindo, harimo n'ibindi biti bitandukanye, harimo agatebe abantu bicaraho, ndetse n'utundi dutebe twinshi turiho n'akameza, hejuru dutwikirijweho imitaka abantu bicaraho, ndetse hari n'inyubako iri ku ruhande.

Urugi rufite ibara ry'umweru rufunze rumanitseho ibyapa byamamaza sosiyete y'ubwishingizi bwa purayime incuwarense ari mu mabara y'ubururu umuhondo ndetse n'umweru hariho na nimero ushobora guhamagaraho arizo cumi na gatatu makumyabiri.

Abantu benshi bahagaze mu kazu gafite amabara y'umweru hejuru, hari hakamo n'udutara, hejuru hamanitseho icyapa cyanditsweho SONARWA, kirimo ibirangantego byayo ndetse no ku mpande hagiye hamanitsemo ibyapa.

Inyubako ya etage igeretse kabiri ifite amabara y'umuhondo ndetse na kaki, hejuru hari icyapa cyanditsweho Sonarwa, hari ibiti birebire bihateye mu busitani buhari hirya hari indi nyubako ndetse hari n'uruzitiro rwubakishijwe amabuye ruriho n'utwuyuma dufite ibara ry'umweru.

Ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'ibindi biti birebire ndetse n'imikindo, hirya hari inyubako ya etage iri mu mabara y'umweru ndetse na shokora, hejuru hamanitseho ikirangantego cyanditseho sonarwa.

Inyubako ya etaje igeretse kabiri ifite amabara y'umweru ndetse n'imiryango y'ubururu, ku nyubako yo hasi hamanitseho ibyapa, yaba icyapa gicuruza imyenda ndetse n'icyapa cy'ubwishingizi kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, hasi hari n'ikindi cyapa cyandikishijwe amabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu isize irangi ry'ibara ry'umweru, hejuru hari umutuku ndetse n'amatara, hariho ibyapa bishushanyijeho umuntu uhetse umwana ndetse n'undi uhagararanye n'akana, hari ameza ahari ariho'ururabyo ndetse n'udutebe tubiri ndetse hari n'ivaze ririmo ururabyo.

Inyubako ya etaje igeretse kabiri iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu ni inyubako ikorerwamo ibintu bitandukanye cyane cyane ubucuruzi hari utwapa tugiye tumanitse kuri iyo nyubako ndetse no hasi hari icyapa kigaragaza yuko bashobora kuba bacuruzamo imodoka kiri mu mabara y'ubururu hari n'ikinyabiziga kihaparitse.

Abagabo bambaye amakoti bahagaze imbere y'akazu kari kubera mu imurikagurisha, gasize amabara y'umutuku ndetse n'umweru, harimo n'abandi bagore bambaye amashati y'umweru, ndetse hari n'igishushanyo kiriho amafoto y'umugabo n'umugore n'abana bahagaze kuri icyo gishushanyo.

Inyubako za etaje zigera muri ebyiri ziri hakurya y'umuhanda, ni inyubako zigiye zifite ubusitani buteye imbere yazo ndetse hagiye hamanitseho n'ibyapa, imbere y'ubwo busitani hari kunyuramo ibinyabiziga by'imodoka muri uwo muhanda wa kaburimbo uri imbere y'izo nyubako.

Inzu isize amarangi y'umweru ndetse arimo udutara turi kwaka hari ibyapa bigiye bimanitse inyuma ndetse yicayemo abantu bicaye hagati y ameza ateretseho uducupa tw'amazi amatelefone ndetse n'udukayi twabo bari kwandikiramo.

Ibinyabiziga bitandukanye, biparitse iruhande rw'inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ubwishingizi, hariho icyapa kigaragaza ubwishingizi, ndetse hari n'ibindi byapa by'amabanki, ndetse hariho n'inzugi zifite amabara y'ubururu.

Abagore bahagaze bambaye ibitenge barimo barifotoza, bari kwifotoreza imbere y'uduseke dutandukanye turi mu mabara atandukanye bakoze, hari uturi hasi n'utundi bagiye bagereka hejuru, duteretse ku meza aramburijweho igitambaro kiri mu mabara y'umweru n'umukara.

Inyubako ya etaje, igeretse rimwe, iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hejuru hazitijwe utwuma duhagaze n'utundi dutambitse ndetse hasi hakorerwamo ibintu by'ubucuruzi bitandukanye, hagiye hamanitsemo ibyapa mo hagati mu miryango.

Akazu kari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, handitseho hejuru I&M banki, hariho ibyapa byanditseho amagambo ndetse hariho indangururamajwi iri imbere, mo imbere hari n'abandi bantu bahagaze, hari n'igishushanyo cy'umuntu ufite terefone mu ntoki.

Inyubako ndende ya etage iri mu birahure by'icyatsi, Imanitseho Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru. Hasi hari indi miryango nayo ikorerwamo ubucuruzi, igiye imanitseho ibyapa bitewe n'ibintu bihakorerwa, ndetse n'ikinyabiziga cya moto cyahahagaze.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu ihema rifite amabara y'umweru n'umutuku, ku mpande hagiye hateretse indangururamajwi. abo bantu bambaye imipira y'umweru n'umukara ndetse n'ubururu, ku meza hateretseho ibipapuro bitandukanye n'uducupa tw'amazi.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibyo kurya, hari abantu bahagaze ndetse n'abandi bicaye, hari imifuka igiye irunzemo ibiribwa ndetse ku muryango hamanitsemo ibirungo by'amoko atandukanye amasosotomate ndetse n'ibindi birungo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imbuto, hahagazemo abadamu babiri ndetse harimo imbuto z'amoko atandukanye harimo imineke, ibinyomoro, amaronji, inanasi, amatunda, ndetse n'indi mineke minini, ndetse harimo n'amavoka ahari muri iryo soko.

Abantu benshi harimo n'abapolisi bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ku muhanda hari amatara ahari ndetse hari n'ibyuma bihagarika imodoka n'ibiziyobora, hirya hari inyubako ya etaje ndende ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye hagiye hamanitseho ibyapa impande n'impande.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'imbuto, hicayemo abantu ndetse harimo utubati tugiye dupanzemo imbuto, harimo imineke, harimo amavoka, harimo ibinyomoro, imyembe, amawotameroni ndetse hari n'indi mineke imanitse hejuru.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi, hamanitsemo ibitenge, hejuru hari ibindi bintu bigiye bitandukanye bikozwe mu bitenge, yaba amaherena ndetse n'ibikapu bikozwe mu bitenge, ndetse harimo n'ibindi bintu bigiye bikozwe mu buryo bwa kinyarwanda, hari n'abantu bicaye, hari n'abandi bahagaze, bari kugenda bagura ibyo bicuruzwa.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye harimo ibishyimbo bigiye biri ku dukoko, hari ibishyimbo biri mu mabara y'umutuku, n'ibindi biri mu mabara y'umuhondo, hari ahantu harunze imyenda myinshi bari gucuruza, hari ahamanitse ibikapu, hari ahari ibitoki, ndetse hirya hari n'ahantu hari ibikoresho byo mu rugo.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imboga, ni ahantu hubakishijwe ibyuma bigiye bishinze hejuru, ndetse harimo imboga zitandukanye, harimo ibitunguru, hakabamo amashaza, amakaroti, imboga, amashu, ndetse n'ibindi byinshi.

Imboga zigiye zitandukanye ziri mubikarito, harimo puwavuro, isereri ndetse n'inyanya, cokombure, insenda z'amoko atandukanye ndetse n'izindi mboga zifite amabara atandukanye.

Ahantu hari gucururizwa imboga ndetse n'imbuto, hari umuntu uri gucuruza amavoka, hari ahantu hagiye hapanzemo amaronji mu dusorori ndetse hari indobo iteretsemo inyanya, hakurya naho hari imineke igiye iteretse ku tubati.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'imyenda ya Kinyarwanda, hamanitsemo hejuru ibitenge by'amoko atandukanye, ndetse yamanitsemo n'udukapu, hari umuntu wicaye imbere y'imashini idoda ndetse hari abandi bagiye bahagaze.

inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imboga hahagazemo abantu bari gucuruza harimo ubwoko bw'imboga zitandukanye harimo intoryi harimo inyanya harimo amapavro harimo amakaroti hateretsemo ndetse n'indobo zirimo ubunyobwa utubase ndetse n'ibindi biruhungo bitandukanye.

Abagabo n'abagore benshi bahagaze mu isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'imbuto n'imboga, hari abafite ibitebo biteretsemo inyanya ndetse no hakurya hari abandi bafite intoryi zigiye zipanze ku tubati.

Ubwoko bw'imboga butandukanye bugiye bupangwa mu tubati harimo amashu, amakaroti, ibibiriganya, seleri ibitunguru bisanzwe, ibitunguru by'ibibabi ndetse harimo n'amashu y'amoko atandukanye.

Inyubako ndende ya etaje ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, haguye hamanitseho ibyapa hari icyapa kiriho ifoto y'umugore ndetse n'umwana kiri mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu hasi na ho hakorerwamo ubucuruzi bw'amatelefone, na ho hagiye hamanitsemo ibyapa hari ibinyabiziga by'imodoka biparitse imbere y'iyo nyubako ndetse hari na moto ziri kugendamo.

Ibinyabiziga by'imodoka biri kugenda mu muhanda, hakurya hari inyubako ndende ya etage ihari igiye irimo ibirangantego bya MTN biri mabara y'umuhondo, ndetse hari n'icyapa cyamamaza telefone kiri mu mabara y'umutuku, ndetse iyo nyubako isize amarangi y'umutuku.

Akazu kari ku muhanda urimo ibitaka ndetse hateye n'ibyatsi, ni akazu gafite irange ry'umuhondo, karimo ibirangantego bya MTN ndetse yandikishijwemo amagambo yanditse mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, hahagaze umuntu aho ngaho mu idirishya.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwa airtel iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru inyuma hamanitse ibishushanyo ndetse harimo na televiziyo irikwaga. Hari abantu bahagaze ndetse hari n'abandi bicaye bategereje kwakira.

Ibiganza by'umuntu bifite telefone mu ntoki, muri iyo telefone harimo kwakamo amagambo avuga ngo shyiramo amafaranga ndetse ahantu ahagaze hari icyapa cya Emutiyene cyanditseho imibare agiye kwishyuriraho.

Akameza gateretseho imipira ndetse n'amacupa biri mu mabara y'umuhondo, biriho ibirangango bya emutiyene, hari abagabo babiri bahagaze mu mahema na yo akikijwe n'igitambaro cy'umuhondo, na cyo gifite ibirangantego bya emutiyene

Abagabo babiri n'umugore umwe bafatanye mu kiganza, bari imbere y'akazu k'umutuku, gafite ibirangantego bya Eyateli, ndetse ku ruhande hari n'indi nzu ihari ifite amarangi y'umuhondo ndetse arimo n'utuntu tw'ubururu n'umweru.

Umugore utwaye ibintu mu ntoki hari akazu gahari gatanga serivisi za momo, hari icyapa gishushanyijeho abantu babiri bari kureba muri telefoni ndetse hari n'abandi bagabo bahagaze bambaye imipira y'ibara ry'umuhondo hari n'imikindo iteye ku ruhande rw'ako kazu.

Abagabo bagera muri babiri bahagaze imbere y'akazu kari ku muhanda gasize amarangi y'umuhondo, ndetse kanditseho amagambo mu mabara y'umukara bigaragaza y'uko ari akazu kariho ibirangantego bya MTN.

Akazu kari ku kumuhanda gafite amabara y'umuhondo, kariho ibirangantego bya Emutiyene mimbere hicayemo umudamu ndetse hanze ,hahagaze umugabo wambaye ishati yubururu nipantaro yumukara, kuruhande hari izindi nyubako zihari ndetse hari n'ibiti.

Umusore uhagaze mu kazu gafite ibara ry'umuhondo, kagiye kariho ibirangantego bya MTN ndetse hejuru hafite ibara ry'ubururu, kari ahantu hameze nk'aharimo ibyatsi, hateye n'urutoki, hakurya hari n'inyubako zigiye zigakikije.

Abantu bambaye imyenda y'umuhondo ifite ibirangantego bya MTN, hari uwicaye ku kameza, hejuru ye hari umutaka w'umuhondo, hari ibinyabiziga biri kugenda, hari n'ikinyabiziga gihagaze, hari ubusitani buri kuri uwo muhanda ndetse hari na sitasiyo ihari.

Akazu kari ku muhanda kari mu mabara y'umutuku, kariho ibirangantego bya Eyateri mani, hariho uburyo ushobora kuba wakwigurira amayinite ukoresheje akanyenyeri, kabiri, kabiri, urwego ndetse ako kazu kari ahantu hari ibyatsi, hari n'iyindi nyubako igiye itandukanye iri inyuma yako.

Urujya n'uruza rw'abantu bari gutambuka ndetse hari n'abandi bahagaze, hari inzu yubakishijwe ibyuma ndetse ifite amabara y'umuhondo, n'ibirangantego bya MTN, hahagazemo abantu batandukanye, hasi hari tapi ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo n'umugore bahagaze umugabo uri kuvugira kuri terefone, umugore wambaye umupira w'umuhondo ufite ibirangantego bya emutiyeni ufite telefone mu ntoki, ndetse umugabo yicaye ku kinyabiziga cya moto ku ruhande hari ibyuma bitanga esansi.

Akazu kari ku muhanda gasize amabara y'umuhondo kariho ibirangango bya mtn hahagaze umugore ufite ishakoshi ndetse hirya hari indi nzu ikozwe mu mbaho ihari hagiye hateretse ibintu hasi hanze ndetse hari n'igiti kihateye.

Icyapa cyamamaza uburyo ushobora guhaha aho waba uri hose ku isi hariho mudasobwa, hariho amatelefone, hariho amagaze, hariho utwuma twa siporo ,inkweto ndetse n'amabafure ,n'amateleviziyo ndetse hariho n'uburyo ushobora guhaha wifashishije ikoranabuhanga.

Imboga nyinshi zirunze ahantu, harimo amashu, harimo insenda, harimo epinari ndetse na sereri, hari n'ahandi hari tirimerike zigura ibihumbi bitanu, hari n'ahandi hari kokombure z'ibihumbi bitandatu.

Inzu ifite amabati y'umutuku ndetse n'umukara, hasi ku ruhande hakikijwe n'uduti tugiye dukikije iyo nzu ndetse mo hagati hateretsemo imitaka, ku mpande harimo ubusitani bugiye buteye mu bintu bimeze nk'ibibase.

Icyapa cyamamaza ahantu ushobora gukura inkweto, hariho ifoto iriho inkweto ziri mu mabara y'umweru ndetse hari n'amagambo agiye yandikwaho atandukanye, ari mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, hari n'uburyo ushobora kugura izo nkweto wifashishije ikoranabuhanga ndetse n'uko zishobora kukugeraho.

Uburyo ushobora kugura ibicuruzwa wifashishije ikoranabuhanga, hariho amakanzu, inkweto, ibikapu, ibirungo by'abadamu bisiga, inkweto, imisatsi ndetse n'ama ekuteri ndetse n'imyenda y'abahungu ndetse hariho n'ibintu by'ibikoresho ushobora kwigurira, bitandukanye.

Ibinyabiziga bya moto bitwaye abagenzi bambaye kasike ziri mu mabara y'icyatsi bari kunyura mu muhanda wa kaburimbo, kuri uwo muhanda hagiye hakikijwe n'ubusitani bugiye buteye impande n'impande.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi ndetse ufite n'ingofero, yicaye ku kinyabiziga cya moto, inyuma ye yikoreye akantu gashushanyijeho umuntu uri kwirukanka kari mu mabara y'icyatsi ndetse n'umukara, ahantu ahagaze hari ibiti ndetse hari n'inyubako iri imbere ye.

Ifoto iriho umuntu wambaye amarinete, wambaye ama ekuteri ndetse n'udupfukantoki mu ntoki, na none hashushanyijeho umugati urimo inyama ndetse n'imboga, hariho inyama y'inkoko, ndetse hari n'akandi gakarito karimo amafiriti.

Abamotari bagera kuri bane baparitse inyuma ku moto zabo hariho utuntu batwaramo ibiryo bashyira abantu ndetse kuri uwo muhanda hirya hari urukuta rw'umuhondo, mu imbere harimo imikindo miremire ndetse harimo n'inzu ya etaje.

Icyapa cyamamaza ibicuruzwa hariho telefone iriho iduka ushobora gukoreho ukoresheje ikoranabuhanga, hariho imyenda y'abagabo ndetse n'indi mitako itandukanye ndetse hari n'izindi mbuga nkoranyambaga ushobora kubasangaho yaba instagram, facebook ndetse na whatsapp.

Salo isize amarangi y'umweru irimo imitako ndetse harimo n'amarido y'umweru n'irindi rido ry'irindi bara, harimo intebe zifite ibara ry'ubururu ndetse harimo n'akameza gafite ibara ry'umukara hari na tapi hasi ndetse hirya hari n'andi meza yo kuriraho.

Inyubako igeretse rimwe ifite amarangi y'umweru ndetse n'ivu, ifite utwuma dufite ibara ry'umukara n'imiryango y'umukara, imbere hari ubusitani burimo indabo zikiri ntoya ndetse n'ibindi biti birebire, ku ruhande harunze umucanga ndetse harunze n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi.

Inzu isize amarange y'umweru, igiye ifite imitako imanitseho iri mu mabara y'umweru n'umukara, ndetse hari na televiziyo ihari ku rukuta, hariho intebe zo kwicaramo, harimo tapi hasi ndetse hari n'ameza akozwe mu cyuma cy'ikirahure.

Inzu isize amarange y'umuhondo ndetse n'amadirishya y'umweru, ifite ibirahure by'umukara n'amabati ari mu mabara y'umutuku, ku mpande hari utwuma tugiye dukikije ingazi duhari ndetse hari n'igikuta cyubakishijwe amabuye, ndetse na cyo gisize irange ry'umuhondo.

Inyubako ya etaje igice kimwe cyubakishijwe amatafari ahiye ikindi gikuta cyubakishijweho hariho amarange afite ibara ry'umweru hariho urubaraza rw'utwuma dufite ibara ry'umukara ndetse hasi hari inzugi z'umukara hari n'ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubwubatsi bihateretse.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ifite n'amarangi y'umweru ndetse n'ibara ry'ivu, ifite amadirishya afite amabara y'umweru ndetse n'inkingi zigiye zifite amabara atandukanye, hariho amavase ateretsemo indabyo afite ibara ry'umuhondo, hari ubundi busitani bugiye buteye ku mpande.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya, isize amarange y'umuhondo ndetse n'umweru hejuru hamanitseho ibyapa ndetse no mu miryango hagati bitewe n'ibicuruzwa bicururizwa aho hantu, hariho ibishushanyo by'inyama z'inkoko ndetse hakabaho ahandi hari ibishushanyo by'amasambusa.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa by'abadamu harimo utubati tugiye dupanzemo amashakoshi y'amoko atandukanye ndetse hapanzemo n'imimyenda hari n'ahantu hari amarinete ndetse n'udukapu dutoya ndetse harimo n'imibavu igiye iteretsemo.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'imbuto, hari imbuto zigiye zipanze mu mifuka harimo imineke, amaronji, imyembe ndetse munsi hagiye harimo ibikarito na byo bigiye birimo izo mbuto, hari umugore uhagaze ndetse hejuru hari indi nzu ya etaje ihari ikikijwe n'utwuma duhari.

Icyapa kiri ku muhanda cyanditseho sawa citi, kiri i Remera ki'amabara y'icyatsi ndetse hejuru hari utundi twapa tugeranyije gishinze ahantu hari ubusitani burimo ibiti birebire, ndetse ku ruhande hari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'umugati ndetse hari n'ahantu abantu bari gutambuka.

Inzu ya etaje ifite amagorofa agera muri atatu, afite imiryango ikorerwamo ubucuruzi, imbere y'aho hagiye hamanitse ibyapa bitewe n'ibicuruzwa bikorerwamo, yaba iduka ricuruza ibintu by'abana ndetse hasi hari iduka ricuruza imyenda y'abadamu.

Ibinyabiziga by'imodoka biparitse imbere y'inyubako ikorerwamo ubucuruzi, kuri ahantu ha kabiri hari ahantu bacuruza imikenyero hahagaze n'umugabo, munsi naho hakorerwamo ubucuruzi bw'ibintu by'ubwiza ndetse hari n'abantu bicaye ahantu bakoreramo ubucuruzi bw'ibyo kurya no kunywa.

Inyubako ya etaje ndende ikorerwamo ubucuruzi, ni inyubako igeretse inshuro eshatu, hagiye hamanitseho ibyapa impande bitewe n'ibicuruzwa bicururizwamo ndetse hasi ho hakorerwa ubucuruzi bw'imyenda, hagiye hamanitse ibipupe bambitse imyenda bari gucuruza.

Umuntu uri ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibyokurya arimo arishyura akoresheje icyuma ari gukandamo, imbere ye hari icyuma giteretse he hejuru inanasi amaze kugura ndetse nyuma ye hari abandi bantu bahagaze hariho ibyapa bigiye bimanitse biri mu mabara y'icyatsi, umutuku ndetse n'ubururu.

Abagabo n'abagore bahagaze barimo barifotoza abagabo babiri bahagaze imbere bafite icyapa kirimo mabara y'ubururu cyanditseho KTN Rwanda Ltd, inyuma bahagaze imbere y'inyubako ifite ibara rya orange n'amadirishya y'ivu.

Umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'ubururu ndetse na karuvati n'ishati y'umweru, uri kuvugira mu ndangururamajwi, inyuma ye hamanitseho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijweho amagambo ya RSSB ndetse hari n'abantu bicaye muri iyo nama ari kubwira.

Abantu benshi batandukanye hari abicaye mu ntebe hari abicaye hasi hari n'abahagaze bameze nk'aho hari ibintu barimo barareba by'imikino runaka inyuma yaho hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ibirangantego bimanitse bditseho ejo heza ndetse na arasesibi na sandaramu hari n'umuntu uri kuvugira mu ndangururamajwi uhari.

Inzu isize amarange y'ubururu, hagiye hamanitseho ibyapa bishushanyijeho umuryango w'abantu ndetse hariho n'ikindi cyapa kiri hasi Kiri mu mabara y'umweru, hari umugore uhahagaze ndetse iyo nyubako izitijwe n'utwuma ku ruhande, mo imbere harimo umuntu wicayemo wambaye agapfukamunwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ubusitani ndetse hari n'amatara yo ku muhanda ahari, hepfo umuhanda uri kuzamukamo ibinyabiziga by'imodoka ndetse hari inyubako ya etaje ndende ihari ndetse n'izindi nyubako ntoya zigiye zihari impande y'uwo muhanda.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya, bigiye bifunze mu makarito ndetse no mu bikombe, harimo ibyo kurya bijyiye bitandukanye, amabiswi, amashokora, amabombo ndetse n'ibindi bijyiye bitandukanye ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye, hari akabati kamanitsemo ibyo kunywa bigiye biri mu makarito, hari imitobe y'amoko atandukanye ndetse hasi hari udukarito tw'amata atandukanye natwo ndetse hari n'amacupa y'amazi.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye byinshi, hari kwaka amatara hahagazemo abantu baje kugura ndetse harimo utubati tugiye dupanzemo amakorogate, amasabune y'amoko atandukanye ndetse n'amavuta yo kwisiga ndetse n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye.

Abantu batonze umurongo ahantu bari kwishyurira, hari umuntu uri kugenda afata ibicuruzwa mu ntoki, ashyiraho ibiciro byabyo ndetse akoresheje mudasobwa ndetse ku ruhande hari akapa k'umuhondo kanditseho momo kariho nimero zo kwishyuriraho.

umuntu uhagaze mu iduka ricururizwamo ibiribwa byo kurya, ari kureba muri telefone, impande ye hari utubati tugiye tugerekeranyije turimo ibyo kurya biri mu bikombe bitandukanye, harimo ibifite amabara y'umutuku, ibifite amabara y'umweru, ibifite amabara y'umuhondo n'andi mabara menshi atandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyokurya bitandukanye, ifite amabara y'umweru hejuru ndetse n'amatara arikwaka, harimo utubati tugiye tugerekeranye harimo ibikombe bya nido biri mu mabara y'umuhondo ndetse harimo n'amabombo ndetse n'ama shokora n'amabiswi agiye atondetse muri utwo tubati.

Umuntu uri gusunika akagare kari mu ibara ry'icyatsi kagiye gafite utwuma impande n'impande, mo imbere avuye guhaha imboga zitandukanye harimo insenda ndetse harimo ibitunguru, harimo epinari zifungiye ahantu hamwe ndetse n'utundi tuntu tugiye dutandukanye.

Abantu bahagaze ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye, hari umusore wambaye umupira wa oranje uri gukoresha icyuma abantu bari kugenda bishyura bafite amatelefone ndetse hateretseho n'amambarage y'ibyo bamaze kugura.